Amashuri abanza ni amashuri yigwamo n'abavuye mu mashuri y'incuke, ni ho abana bahererwa intangiriro y'uburezi, bakigiramo ibintu byinshi bizabajyana mu mashuri y'isumbuye.

Mu mashuri abanza ni icyiciro cy'amashuri, abana bigamo bavuye mu cyiciro cy'amashuri y'incuke, ni naho babategurira kuzinjira mu cyiciro cy'amashuri yisumbuye.

Amashuri abanza ni amashuri y'ingirakamaro kuko ategura abana bakiri bato, bakabigisha gusoma no kwandika, bakabategura no kuzajya mu mashuri yisumbuye.

Amashuri yisumbuye ni icyiciro abanyeshuri bajyamo barangije amashuri abanza, bagakomeza ibijyanye n'umwuga bahisemo, bazakomeza gukora no mu buzima busanzwe.

Ku ishuri ni ahantu hahurira abantu benshi baje gushaka ubumenyi, mu mashuri haba harimo ibyiciro bitandukanye ,habamo icyiciro cy'amashuri y'inshuke, icyiciro cy'amashuri abanza ,ndetse n'icyiciro cy'amashuri yisumbuye.

Mu mashuri yisumbuye, abanyeshuri bavanayo ubumenyi bwinshi cyane, hari abavayo bazi gukora iby'amashanyarazi, abavayo bazi kuvura amatungo, n'abavayo bize ibintu bijyanye n'ubuhinzi.

Ishuri ni ahantu hahurirwa n'abantu benshi baje gushaka ubumenyi hari aho abiga ibijyanye n'amashanyarazi, abiga ibyo kuvura abantu cyangwa kuvura inyamaswa harimo n'abiga iby'ubuhinzi.

Mu mashuri yisumbuye abantu bigamo ibintu bitandukanye. Hari abigamo gufotora, abigamo ubwubatsi, abigamo ibijanye n'ubuhinzi, abigamo ibijanye no gukora iby'amashanyarazi.

Mu cyiciro cy'amashuriu yisumbuye, ni ahantu abanyeshuri bakura ubumenyi bwiyongera ku bwo baba bakuye mu mashuri abanza, kuko bahigira ibintu byinshi bitandukanye, nko kudoda, ubuvuzi bw'amatungo, cyangwa gukora amashanyarazi.

kwiga ni byiza cyane. Iyo umuntu yize aba azi kwandika, aba azi gusoma, yajya no kugura ibintu, amafaranga yajyanye akamenya ayo baramugarurira, bitewe n'uko yize imibare.

Kwiga ni ingirakamaro, kwiga ni byiza cyane umuntu wize aba ajijutse, kwiga bituma abantu bamenya gusoma, bakamenya kwandika, bakamenya imibare ni ingirakamaro cyane.

Mu mashuri yisumbuye abanyeshuri bakuramo ubumenyi bwinshi cyane, kuko hari abiga ibyo gukora amashanyarazi, hari abiga ibyo gukora amazi, n'abiga iby'ubuhinzi.

Mu cyiciro cya mashuri yisumbuye abanyeshuri biga ibintu bitandukanye, hari abiga guteka, abiga kuvura abantu cyangwa inyamaswa, abiga ku buhinzi, hari n'abiga iby'amashanyarazi.

Mu mashuri, haba harimo ibyiciro bitandukanye: icyiciro cy’amashuri y’incuke, icyiciro cy’amashuri abanza, n’icyiciro cy’amashuri yisumbuye. Mu mashuri yisumbuye, abantu bigamo ibintu bitandukanye. Hari abigamo kubaza, abigamo guhinga, n’abigamo ubuvuzi.

Mu mashuri yisumbuye, abanyeshuri bayigamo bakuramo ubumenyi buhanitse, kuko abavuye mu mashuri yisumbuye, hari abavamo bazi kubaza, hari abavamo bazi kudoda, n'abavamo bazi kubabaka.